I Kigali hakomeje gutekerezwa impamvu hakomeza kurushaho gucya ndetse hakagira ibikorwa remezo byinshi bihakorerwa. Abubakka bagomba kwaka ibyangombwa kugira ngo bubake inyubako zijyanye n' aho bagiye kuzishyira.

Hari igihe haba hakenewe gukorwa inama izitabirwa n'abantu benshi kandi aho izabera nta sare yakorerwamo ihari, twitabaza amatente kugira ngo uwaje aticwa n'izuba.

Aha ngaha hari umugabo wambaye ishati y'umweru irimo imirongo y'umukara ndetse na karuvati y'umutuku wijimye, afite indangururamajwi, ni umugabo wamenyekanye mu gihe cy'amatora ubwo yiyamamarizaga ku mwanya w'umukuru w'igihugu, hirya ye hari ikinyabiziga bibiri, hari kimwe cy'umukara n'ikindi cyumweru, inyuma ye kandi hari umuntu wambaye ishati y'umweru ndetse n'isengeri y'umukara.

Mu nama zikorwa ntago hitabira abaturage gusa, haza n'inzego z'umutekano kugira ngo nazo zunganire abaturage, kandi n'abaturage babone ko nabo inzego zibegereye zitari kure, batazajya bahurira nazo mu nzira gusa.

Mu rwanda habera inama nyinshi harimo n'inama mpuzamahanga, ziza kubera inamaha mu rwanda mu gihugu cyacu kubera umutekano dufite, ndetse n'ibindi byinshi twagiye tugeraho batarabona bakaza kubitwigiraho.

Aho mukorera muge mwibuka kwicara hamwe mwungurane ibitekerezo kugirango niba hari n'ikibazo gihari mukiganireho mugifatire umwanzuro bibafashe gukemura n'ibindi byose byazaza imbere, kuko abishyize hamwe ntakibananira.

Mu nama nyinshi zitandukanye uzasanga hari ibyateguwe harimo amazi yo kunywa atunganywa n'uruganda Inyange. Kandi hari n'ibitambaro biba byateguwe ku meza bikozwe mu mabara agize idarapo ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Mu Rwanda hajya habaho gahunda yo guhuriza abantu hamwe cyane nk' urubyiruko rugashishikarizwa umusanzu warwo ko arizo mbaraga z' igihugu, kandi bagahabwa n' andi mabwiriza y' imyitwarire ajyanye no gukunda igihugu.

Umuco wo kubungabunga umujyi wacu wa Kigali urusheho kugira isuku kandi uhore ukeye, niyo mpamvu igihe ugiye kubaka ugomba kwaka icyangombwa. Ukubaka inyubako ijyanye naho ugiye kuyishyira kugira ngo bitazateza akajagari.

Hajya habaho gahunda yo gutegura inama zakirirwamo ibibazo by'abaturage, abayobozi bo mu nzego zo hejuru bakamanuka bakajya kwegera abaturage bo hasi kugira ngo bumve ibibazo bafite.

FERWABA ni ikigo gishinzwe kugenzura imikno y' intoki nka basket, cyashyiriweho kugira ngo kigenzure amakosa agaragara amwe namwe nko kurengana kw' abakinnyi cyangwa kutubahiriza amategeko kw' abasifuzi.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu mutwe. Ahantu hose utuye sigasira abo muturanye, wirinda kubakomeretsa cyangwa se kubabwira amagambo yakwangiza ubuzima bwabo.

Kubera umutekano wanogejwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni yo mpamvu dusigaye twakira inama mpuzamahanga, zikabera mu gihugu cyacu. Ni ngombwa rero ko tugomba natwe kubigiramo uruhare tugafasha abashinzwe umutekano gukomeza kuwubungabunga, kugira ngo turusheho kwakira ibikorwa byinshi, byinjiriza umusaruro igihugu cyacu.

Urubyiruko ni imbaraga z'Igihugu rugomba kwitabwaho rugashishikarizwa gukora kuko ari bo mbaraga z'ejo, niyo mpamvu hagomba kubaho ibikorwa byinshi bibahuza ndetse bakanahugurwa uko bazajya bitwara.

Tugomba kubahiriza amabwiriza agenga umujyi wa Kigali, cyane imyubakire ndetse n'isuku tukubaka ahabugenewe inyubako zaho, kandi tukagirira isuku imihanda n'aho dutuye tukarushaho kugira Kigali ikeye.

Hasojwe inama ihuza abaturage ndetse n'abayobozi, habaho gahunda yo guhaguruka abantu bagacinya akadiho, ubishoboye nawe akabaha amashyi ubundi abantu bakishima.

Hirya no hino, bimaze kugaragara ko hari abantu benshi bafite ikibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera, kandi tubashe gufasha abafite ibyo bibazo kuba babona ubuvuzi.

Nahise njya ku rubuga irembo gove ikigo gitanga iyi serivisi, icyiciro uburenganzira bwo kugera mu nkambi y'impunzi, ibyo na byo barabikora abinjira n'abasohoka nabo barabafasha.

Abantu bari mu ihema bicaye bari mu nama, na none hari abandi bahagaze iruhande rw'ihema bari kumwe n'abashinzwe umutekano mo hagati hari umugabo uri kuvuga ijambo ufite mikoro mu ntoki.

Ibipimo by'umusoro w'ubutaka buriho inyubako biteye bite? zeru n'igice kimwe ku ijana by'agaciro ku isoko ry'inyubako naka ikibanza byagenewe inganda, inyubako n'ikibanza by'ibikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse.

Ikegeranyo kibipimo by'imiyoborere mu Rwanda gikorwa hagamijwe kugaragaza ishusho yuko imiyoborere ihagaze mu gihugu mu byiciro bitandukanye no kugaragaza ingamba mu gushyiraho poritiki mu nzego zitandukanye z'igihugu.

Ubu hari ibyangombwa byinshi wakenera ukabibona atari ngombwa ko ugiye aho babitangira ahubwo ukifashisha urubuga rw'irembo ukabibona sura urubuga rwabo wa wa wa irembo akadomo govu akadomo ra wa.

Imodoka isa nk'ivu iri mu muhanda iri kugenda ifite amapine y'umukara, ndetse iruhande rw'iyo modoka hari umumotari uhetse umuntu ku ipikipiki wambaye ijire y'umuhondo ndetse n'ubururu wambaye n'ingoferoy'umukara ndetse n'umutuku.

Hari banki zagiye zegereza abakiriya bazo serivisi bashyiraho abagenda babahagarariye hirya no hino harimo na banki ya kebisi kugira ngo umukiriya wazo uzakenera serivisi azazibonere hafi.

Bikunzwe kwibazwa n'abakeneye serivisi z'ubutaka ni gute haboneka amakuru ku butaka? Amakuru ku butaka yaboneka hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga? Ni ubuhe bwoko bw'amakuru y'ubutaka aboneka.

Inzira imwe rukumbi yo koroshya uburyo bwo gusora menyekanisha wishure ndetse unarebe amakuru yose yerekeranye na konti yawe y'imisoro binyuze muri sisitemu ya mayi ara ara eyi.

Uburyo bushya bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga cyangwa apurikasiyo bwakemuye ibintu byinshi cyane nkuko ubona uyu musore witwa ganza arimo arohereza amafaranga niba ntibeshye neza, gusa sibyo byonyine bishobora gukorwa kuko ashobora kwishyura umuriro ndetse n'amazi akoresheje ibindi bivugagwa biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, anateruye telefone ye rwose nta kindi kintu ari gukoresha nkuko ubibona.

Umunsi mwiza w'umurimo, minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo tubifurije umunsi mwiza w'umurimo. Turusheho guteza imbere ubumenyi n'umurimo unoze byo nkingi y'iterambere rirambye.

Iminara idufasha gutanga ubutumwa tutavuye aho turi aho ukoresha telefoni yawe ukoherereza ubutumwa cyangwa se ugahamagara umuntu uherereye ahandi hantu bitagutwaye umwanya wo kuba wajyayo.

Wabona nawe utuye mu Rwanda ariko ukaba utarasura ibigo byahariwe ubukerarugendo. hagere nawe wirebere inyamaswa zigiye zirimo zitandukanye nawe uzabone icyo ubarira abandi.

Hari ibyangombwa umuturage yajyaga akenera bigasaba yuko ajya kubyaka aho irembo rikorera ariko ubungubu byarorohejwe. Hari uburyo bwashyiriweho abafite telefoni, bakaba babyikorera aho bari batavuye mu rugo bitewe n'ubwoko bw'ibyangombwa bashaka bakabikorera kuri telefoni yabo bakabihabwa.

Nyir'umutungo utimikanwa bivuga umuntu wanditswe nka nyir'uwomutungo cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo n'ufatwa nka nyir'uwomutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda.

Ubu dushishikajwe no guteza imbere ubukerarugendo hano mu gihugu cyacu cy'urwanda niyo mpamvu twifashishije ibigo bizwi cyane cyane amakipe y'imipira kugira ngo adufashe muri gahunda yacu ya sura u rwanda.

Menyekanisha uyu munsi wishyure mbere y'itariki ntarengwa, mirongo itatu n'mwe z'ukwa cumi n'abiri buri mwaka, ni itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa.

Tariki ya mbere Gicurasi buri mwaka, haba umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo. Ni ingenzi ko buri wese yita ku kazi ke kugira ngo umurimo turusheho kuwunoza; bigirire inyungu ibihugu byacu dutuyemo, ndetse n'isi muri rusange.

Ushobora kuba ufite igishoro ukavuga ko wabuze icyo ukora, egera banki zitandukanye zikorera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uzihagararire aho waba uherereye, kugira ngo ugezeho abakiliriya babo serivisi biboroheye.

Mu burezi naho iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga rirakataje, kuko nibo Rwanda rw'ejo rugomba gusobanurirwa iby'ikoranabuhanga kugira ngo bazagire icyo bafasha igihugu mu minsi iri imbere.

Ushobora kuba ukeneye gushora imari hano mu rwanda yegera ikigo kibishinzwe cya aradibi kigufashe gutangiza sosiyete y'ubucuruzi bakugire n'inama y'ibyo wakora maze nawe wunguke agatubutse.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahor, aricyo Rwanda reveni otoriti, gisure kugira ngo usobanurirwe ibyo waba ufiteho impungenge ndetse birebana n'imisoro n'igihe uri umucuruzi.

Buri gihe bika icupa rya gaze rihagaze ahantu hari umwuka uhagije, hategereye ubushyuhe bw'imbabura cyangwa ikindi cyatera inkongi y'umuriro, bibaye byiza, ribike hanze y'inzu aho ritakwangirika.

Tira mitiweli ukoresheje kode y'irembo ukande akanyenyeri icyenda zeru icyenda urwego, maze wemeze uhitemo ururimi wifuza gukoresha, andikamo nimero y'indangamuntu yawe.

Aba ni abantu batatu, umwe muri bo asa nk'ukuze, ni umudamu wishimye afite umwana mu ntoki, hari undi uryamye wambaye ibintu by'umweru bisa nk'aho ari kwa muganga, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango ikizere cy'ejo hazaza, ibyishimo by'umuryango, ni amagambo yanditse ku cyapa cyamamaza baherereyeho.

Uko wakisabira mutation waguze ikinyabiziga muri cyamunara injira kurubuga wa eshatu akadomo e akarongo takisi akadomo govu akadomo rawa ukurikize amabwiriza akurikira.

Minisiteri ya siporo niyo itanga uruhushya rwo kwakira ibirori mpuzamahanga bya siporo. Igatanga n' inkunga y'amafaranga mu mikimo mpuzamahanga, ndetse n'ibaruwa isaba guhabwa indangamuntu muri nida.

Ushobora gukorera aho utuye serivisi zitandukanye, harimo iz'irembo ndetse n'iz'ibigo by'imari, harimo amabanki, ukajya ubafunguriza konti ndetse ukaboherereza n'amafaranga batiriwe bajya ku byicaro by'aho izo banki zikorera.

Iminara idufasha muri byinshi, cyane cyane ibyo dukora twifashishije ikoranabuhanga: haba mu guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga.

Dore uko bamenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ukoresheje telefone, bikorwa n'abasorera ibinyabiziga n'abafite ubucuruzi buto n'ubuciriritse kanda akanyenyeri magana inani, urwego.

Iminara ikwirakwiza imiriro hirya no hino mu gihugu, ni ngombwa ko tuyicungira umutekano, tukibutsa abashaka kuyurira ko bitemewe, ko byabaviramo ingaruka zirimo n'urupfu.

Ntago bikireba abigitsina gabo gusa ko aribo bakiga ibijyanye namashanyarazi nawe uri igitsina gore wagenda ukabyiga kandi ukabikora muburyo bwiza ndetse bunoze nawe ukiteza imbere.

Watekereje neza kuba washyira umuriro w'amashanyarazi aho utuye cyangwa aho ukorera. Ni ingenzi kwita ku uza kubigukorera, kugira ngo atazabikora nabi bikakuviramo ingaruka zirimo ko n'inzu yawe yashya.

Amapoto akwirakwiza umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu agenda ashingwa mu mirima y'abaturage ariko hakagenwa uburyo aho yaciye agomba guhabwa ingurane.

Nubona hari umuntu, umutoya cyangwa umukuru uri kwegera ahari insinga cyangwa ibyuma bikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, ni ngombwa ko umubuza kugira ngo bitamuviramo impanuka , bikaba byamubyarira n'urupfu. Kereka ababihuguriwe cyangwa babyigishijwe, nibo baba bemerewe kuhegera.

Ibiti bizwi nk'amapoto, bicishwaho insinga zikwirakwiza umurimo hirya no hino mu baturage, bigomba kwitabwaho kandi bigacunga, mu gihe byashaje bigasimbuzwa ibindi hakiri kare, kugira ngo bitazaviramo ingaruka zo kugwisha insinga ku mazu y'abaturage.

Ubu n'abakobwa barakataje hari imirimo mbere yari yaragenewe gukorwa nab'igitsina gabo gusa ariko ubu nabo basigaye bayibonamo bakayikora kuko nabo bamenye ko iyo utinyutse byose bishoboka.

Hari igihe mu gihugu haza icyorezo bikaba ngombwa ko leta ishyiraho gahunda yo gufata inkingo kuri buri muturage wese, igihe rero iyo gahunda yagezweho ni ngombwa ko nawe witabira ugakingirwa kugira ngo urusheho kubungabunga ubuzima bwawe.

Igihe wumvishije mu mubiri wawe hatameze neza, egera ivuriro rikwegereye uhabwe ubufasha bujyanye n'ikibazo basanze ufite kandi n'iyo basanze batabashije kuvura cyangwa kumenya ikibazo ufite bakohereza n'imbangukira gutabara ku kigo kindi kibasumbije ubushobozi.

Ubu twateye imbere hano mu Rwanda mu buvuzi butandukanye, n'abarwayi b'amaso nabo ntabwo bibagiranye, niba ufite ikibazo egera ivuriro rikwengereye bagufashe nibasanga badashoboye ikibazo ufite, bazakohereza n'ahandi bagufashe.

Kwa muganga n'ibyumba byabugenewe bikorerwamo ibizami, kugira ngo hamenyekane ikibazo umurwayi waje abigani afite, babone kumuha imiti bakurikije uburwayi bamusanzemo.

Ni ubuntu n'Imana kuba ntamuga wavukanye rero zirikana ababuvukanye igihe ubabonye hari ubufasha ufite, ubafashe kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza kuko na bo ni ibiremwa by'Imana.

Iyo ugiye kwa muganga kwivuza, bikaba ngombwa ko bakohereza ku bindi bitaro bifite ubushobozi burenze ubwabyo, hari imodoka zabugenewe zitwa imbangukiragutabara, zikujyana zikakugeza aho bakoheje neza utekanye.

Mu bigonderabuzima cyangwa se ibindi bigo bya leta, haba hari umwanya wagenwe wo guteramo ubusitani, bwongerera umwuka mwiza abaje babagana cyangwa se n'abahakorera.

Hirya no hino mu gihugu hagiye hari ibigonderabuzima ndetse n'amavuriro mu duce twinshi dutandukanye, mu rwego rwo kugira ngo abaturage bajye bivuza biboroheye badafashe urugendo rurerure ngo barembere mu nzira.

Ikigo nderabuzima kiba gifite imbangukiragutabara ibafasha mu gihe hari umurwayi woherejwe ku bindi bitaro bisumbije ubushobozi aho yari ari. Bigatuma agerayo nta kindi kibazo agize, kuko aba yatwawe n'ibangukiragutabara, kandi haba harimo n'abaganga bagenda bamuherekeje.

Wari uzi ko ukwiye kwirinda abagira ibyo bagusaba bakwizeza kuzagufasha kubona ubutabera mu nkiko, birinde ubutabera ntibugurwa kuko butangirwa ubuntu.

Hari ibigo byagiye bishyirirwaho abantu batandukanye bakoze ibyaha nk'amagereza, kugira ngo bajye kugororerwayo cyangwa gufungirwayo. Ariko bahahererwa n'izindi nama zitandukanye, zirimo uko bazitwara bagarutse mu buzima busanzwe, ndetse bakahigishirizwa n'imyuga.

Gacaca ni gahunda yashyinzweho mu Rwanda intego yayo yari ukuri, ubutabera, ubwiyunge aho hafashwe abantu b' inyangamugayo bagafasha igihugu gutanga ubutabera.

Hari abanyarwanda basize bahemutse mu gihugu cyabo, bakora Jenoside, bica ubwoko bw'Abatutsi, bahungira mu bindi bihugu. Bamwe barafashwe kuko bakomeje gushakishwa.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda yitwa nyakubahwa Paul kagame, minisitiri w'intebe yitwa Makuza Bernard, minisitiri w'ubutabera intumwa nkuru ya leta yitwa Karugarama Tharcise.

Igihugu cyacu cy'u Rwanda gifite idarapo rikiranga rigizwe n'amabara akurikira; ubururu, umuhondo n'icyatsi. Mu ibara ry'ubururu hagaragaramo ukwezi.

Umukozi wese ushinzwe kwaka imisoro n'amahoro iyo bigaragaye ko hari uwo yasoneye kandi yagombaga kwishyura ahanishwa igifungo kitarenze imyaka irindwi kandi kitari no munsi y'imyaka itanu.

Umuntu wese wahawe ububasha n'igihugu cyangwa wahawe ubutumwa mu rwego rw'umurimo wa leta, ntabwo agomba gukoresha ububasha afite akoresha umutungo w'igihugu mu nyungu ze bwite.

Ingingo y'ururimi aya mabwiriza yateguwe mu rurimi rw'ikinyarwanda, aya mabwiriza atangira gukurikizwa ku munsi atangarijweho mu igazeti ya leta ya repubulika y'u Rwanda.

Ni uburyo abanyarwanda bifashishije kugira ngo bakemure ibibazo, byari byarabonetse ku bagiye bakora ibyaha, mu mwaka w igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane hakorwa jenoside yakorewe abatutsi.

Mwese mwaba mwibuka ko hari inzego z'umutekano zigeze kubaho zambaraga imyenda y'umutuku, ndetse n'inkweto z'umukara yari izwi ku mazina ya rokodifensi ariko, ubu ngubu haje n'izindi nzego zishinzwe umutekano.

Kuregera inkiko ku bibazo bijyanye n'ihohoterwa n'uburenganzira bwa muntu, gukora ubushakashatsi kubibazo bidasanzwe no gutangaza ibivuyemo, hagamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu.

Mu Rwanda hari abigiye kunganira abandi mu bijyanye n'amategeko. Iyo urangije ayo masomo ugahabwa umwambaro wabigenewe uri mu ibara ry'umukara ndetse n'akabara gatoya k'umweru, urahirira imbere y'ubuyobozi bugukuriye ko uzakurikiza amabwiriza.

Mu Rwanda twahereye kera twishakamo ibisubizo, ubwo imanza zari nyinshi kandi nta bantu bahagije dufite bo kuziburanisha twiyambaje intiko gacaca, kugira ngo zunganire inkiko zindi z'ubutabera habashwe gufatwa ibyemezo ku bagize ibyo bangiza muri jenoside yabaye mu Rwanda.

Kugira imikoranire myiza nizindi nzego hubahirizwa igihe gisabwa mukugaragaza ibyakozwe cyangwa hatangwa amakuru urundi rwego rwasabye.

Mu rwanda hari komite y' abunzi ikorera ku kagari ndetse no ku murenge, ishinzwe gukemura ibibazo biri hagati y'abaturage, kugira ngo barusheho kunga ubumwe bw'Abanyarwanda.

Ubutegetsi bw'ubucamanza, urukiko rukuru, urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyaha byambuka imbibi rukorera mu Rwanda.

Bamwita Reveriye, yarafunzwe akurikiranweho kwangiza umutungo w'igihugu akoresheje uburenganzira afite mu nyungu ze bwite, butuma afungwa nyuma aza guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu.

Ibi ni ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda aho biherereye mu karere ka Huye tukaba turi kubonaho ibyapa biyobora abarwayi bikaba biborohereza kumenya aho bagomba kujya bitewe n'uburwayi bafite.

Usaba gushinganisha umutungo w'undi afite inshingano zo kugaragaza, ibimenyetso byerekana ko amufitiye umwenda udashidikanywaho, ugejeje igihe cyo kwishyurwa.

Mu gihe cyashize twahuye n'icyorezo cyageze mu bihugu byose bigize isi, n'aha mu Rwanda cyarahageze duhabwa amabwiriza y'uko twakirinda n'uko twagikumira, kandi byaradufashije, harimo no kwambara udupfukamunwa.

Kunyereza umutungo wa leta cyangwa uwabandi iyo ibihamijwe n'urukiko uhanishwa igifungo kuko uba warenze ku mabwiriza agenga abaturarwanda.

Buri muntu wese aba agomba kwitabira inama zibera hirya no hino aho atuye, kugirango yumviremo imihigo ndetse n'indi myanzuro, afashe n'abandi gukemura ibibazo bazanye mu nama.

Urwego rw' igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa, gereza ya Nyagatare nayo iteganya gahunda yo kwibuka abatutsi bazize jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana kenda mirongo ikenda na kane.

Ni byiza yuko witondera ibyo uvuga ndetse n'ibyo ukora, kugira ngo utazavaho ukora icyaha maze inzego zibishinzwe zikagushyikiriza inzego zikwitaho, kugira ngo ubashe gukurikiranwa kubyo wavuze cyangwa kubyo wakoze byateza umutekano mucye mu gihugu.

Urwego waba uriho rwose ntuzitwaze ko uri icyamamare cyangwa ukunzwe n'abantu benshi ndetse nabo muziranye ngo ukore amakosa cyangwa ibyaha ngo ntiwakurikiranwa, igihugu cyacu cy'u Rwanda uko waba uri kose uwo waba uri wese urakurikiranwa mu gihe wakoze amakosa.

Mu nshingano uhawe zo kuyobora abaturage mu rwego rwa gisirikare ugomba kurahira ufasha ku idarapo ry'igihugu urahirira yuko uzakora ibyo ushinzwe mu nyungu z'abaturage atari mu nyungu zawe bwite.

Inkomoko y'ubutegetsi bw'igihugu; ubutegetsi bwose bukomoka ku banyarwanda, kandi bugakoreshwa hakurikijwe ibiteganwa n'iri tegeko nshinga. Nta muntu cyangwa itsinda ry'abantu bashobora kwiha ubutegetsi.

Perezida wa repubulika y'u Rwanda yemeje ivugururwa ry'itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda, ryo muri bibiri na gatatu. Ryavuguruwe muri bibiri na cumi na gatanu, mu rwego rwo guha icyubahiro gikwiriye abakurambere b'intwari bitanze.

Inkiko gacaca n'uburyo gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho bwo gukemura ibibazo, kuko kubera jenoside yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abakoze ibyaha bari benshi kandi nta butabera buhari buhagije bwo kubakurikirana, hifashishwa abaturage kugirango hakemurwe icyo kibazo.

Iyo perezida w'urukiko rw'ikirenga asuzumye raporo yashyikirijwe ku rubanza rw'akarengane akemeza ko rwongera kuburanishwa, urukiko ruburanisha urubanza mu mizi bundi bushya nta zindi nzitizi zitanzwe.

Ikigo k' igihugu gishinzwe imfungwa n' abagororwa cyagennye uburyo abantu bagororerwa mu magereza bagomba gukora n' iyindi mirimo yateza imbere igihugu, aho kugira ngo bage baguma ahantu hamwe bicaye ntacyo bari gukora.

Inyubako ikora ibijyanye no kwakira abantu, bakabona ibyo kurya ndetse ikabaha amacumbi, yegeranye na komvesheni senta iri mu Rwanda.

Habumuremyi Damien wigeze kuba minisitiri w'intebe aha yari yagejejwe imbere y'ubutabera kugira ngo asobanure ibyaha yakekwagaho kandi yari afite abamwunganira mu mategeko bagera kuri babiri.

Uyu ni umukobwa usa nkaho akiri muto afite ikoranabuhanga mu ntoki ziwe yambaye umupira w'umutuku ku maso he urabona ko yishimye ari guseka bisa nk'aho hari ibyo ari guhererekanya n'undi muntu bari kumwe.

Umwambaro uri mu ibara ry'iroza wambarwa n'abari mu magororero hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, baba bafite n'ababacungira umutekano baba bambaye imyenda iri mu ibara rya kaki.

Mu rwego rwo kurushaho kubungabunga ubuzima bw'abanyarwanda, abari mu magororero nabo bitaweho, igihe twari twahuye n'ikibazo cy'icyorezo, bakanguriwe nabo kwambara udupfukamunwa, kugira ngo barusheho kwirinda.

Mu ikorwa ry'imihanda ahagaragaza ko hateza impanuka kurusha ahandi, hagiye hongerwaho utwuma turinda umuhanda mu nkengero zawo kugirango ikinyabiziga kitazakata ikorosi kikaharenga, kikagwa munsi y'umuhanda.

Tunga kizimyamwoto kuko inkongi y'umuriro ntiteguza, ni byiza rero kuba uyifite kugira ngo nigutungura uzayifashishe uzimye inkongi hakiri kare itarakwirakwira henshi ngo yangize ibindi bintu byinshi.

Impanuka zishingiye ku nkongi z'umuriro. Ugure kizimyamwoto, uyishyire iwawe mu rugo, igihe hari inkongi ikwatatse uyifashishe. Kuko uhamagaye abava kure, bajya kukugeraho hangiritse byinshi.

Ibitaro bya polisi biherereye Kacyiru, igihe ufite n'impungenge z'uko hari uwo ukeka ko atari uwawe mu bana ufite, hatangirwa na serivisi zo gupimisha ibiranga ko uwo mwana ari uwawe.

Niba utwara ikinyabiziga nk' imodoka shaka ibyangombwa byabugenewe by' inzira bikwemerera gutwara icyo kinyabiziga kugira ngo ubwo uzahagarikwa n' abashinzwe kwaka ibyangombwa uzabigaragaze nawe ukomeze urugendo wemye.

Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe gukorera mu muhanda, riba rireberera abahaca nk'ibinyabiziga kugira ngo babake ibyangombwa barebe ko byuzuye hatagira ugenda nta byangombwa afite.

Kizimyamwoto n'ingenzi kuko zidufasha gukumira inkongi y'umuriro itaraba nyinshi. Yifashishe igihe uri murugo, ube uyifite kuko ibyago ntago biteguza, wajya guhamagara abafite ibindi byuma bizimya umuriro bakugeraho hangiritse byinshi.

Kizimyamwoto ni ingenzi kuko zifashishwa haje inkongi y'umuriro itunguranye, buri wese agomba kubizirikana akayishyira aho akorera cyangwa n'aho atuye kuko naho hari igihe hashya.

Hanozwe umutekano wo mu muhanda hashyizweho abapolisi bareberera ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bahaca, ni ngombwa ko tububaha tukubahiriza amabwiriza batanga kuko baba bari mu nshingano zabo.

Kizimya moto ni nziza kandi ni ingenzi, yitunge aho utuye cyangwa ukorera kugira ngo wizimirize umuriro igihe uhuye n'inkongi yawo kuko ntago ibyago biteguza.

Kuko dutite umutekano uhagije tubyizezwa n'abawushinje baba bari ku mihanda hirya no hino bareberera buri muturage wese uhaca kugira ngo atagira ikibazo cy'umutekano muke.

Igihe usanze umupolisi ukorera mu muhanda, ari gutanga amabwiriza, yubahirize nawe kuko aba ari mu nshingano ze. Kandi igihe aberetse ko ari igihe cyo kugenda ugende kugira ngo utabangamira abari inyuma yawe.

Guteka ntabwo ari ugukoresha amakara cyangwa inkwi gusa, ubu wakoresha na gaze ni ingenzi rero ko wigishwa uko wayizimya mu gihe itombotse, itarangiza aho utuye ikabagiraho ingaruka zo kuhatwika.

Urwego rw'igihugu rwa polisi rufite n'ishami rikorera mu muhanda, bareba ibinyabiziga bishobora kuba bitujuje ibyangombwa, igihe baguhagaritse shyira imodoka yawe aho bakweretse, ugaragaze ibyo bari kugusaba.

Mu bigo by'amashuri haba hahuriye abantu benshi kandi naho ni ngombwa ko birinda ibyago bituruka ku nkongi z'umuriro bagomba nabo kwigishwa uko bakoresha kizimyamwoto kugira ngo bazatabarire igihe.

Ntago wemerewe gutwara ikinyabiziga nka moto, udafite uruhushya wabiherewe nabashinzwe gutanga impushya. Gana ibigo by'ishuri wige moto hanyuma uzajye gukora uhabwe uruhushya.

Kugira ngo turusheho kugira umutekano wizewe kandi uhamye inego zishinzwe umutekano wo mumuhanda za polisi ziba ziri hirya no hino ku mihanda kugira ngo zifashe abahaca ndetse n'ibinyabiziga bibone uko bitambuka.

Ubahiriza amabwiriza agenga kugenda mu muhanda, waba utwaye ikinyabiziga cyangwa ugenda n'amaguru, igihe ugeze ahambukirwa, reba neza ko niba ugenda n'amaguru ari wowe wemerewe kwambuka, igihe usanga ari ibinyabiziga bigomba gucaho ureke na byo bibanza bitambuke.

Uburyo bushya bwo kwishyura wifashishije ikoranabuhanga cyangwa apurikasiyo bwakemuye ibintu byinshi cyane nkuko ubona uyu musore witwa ganza arimo arohereza amafaranga niba ntibeshye neza, gusa sibyo byonyine bishobora gukorwa kuko ashobora kwishyura umuriro ndetse n'amazi akoresheje ibindi bivugagwa biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umweru, anateruye telefone ye rwose nta kindi kintu ari gukoresha nkuko ubibona.

Inama zitandukanye zirimo abayobozi benshi bo ku rwego rw'igihugu harimo nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame n'umufasha we Jeanette Kagame.

Umuyobozi w'igihugu cyacu cy'Urwanda nyakubahwa perezida Polo Kagame hamwe n'umufasha we, bakora inama nyinshi zitandukanye bashishikariza abo bafatanyije na bo kuyobora gukomeza kwita k'umuturage.

Mu Rwanda haba ubwisanzure mu miyoborere ntabwo hakorera ishyaka rimwe. Hari n'irihakorera rizwi nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ari ryo Girini Pati.

Umuryango Efuperi inkotanyi uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, urangajwe imbere y'intore izirusha intambwe, ari we nyakubahwa perezida wa repubulika Paul KAGAME.

Mu matora yabaye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mu gihugu cy'u Rwanda, hitoranyirizwa umuyobozi wo kuyobora icyo gihugu. Hatowe nyakubahwa Perezida Paul Kagame.

Indahiro ugirira imbere y'abagukuriye ndetse n'abo ugiye kuyobora, iba ifite agaciro kuko iyo utayubahirije wirukanwa ku mwanya wari washinzwe ukaba wagenerwa n'ibihano.

Igihe hari inshingano ugiye kurahirira z'ubuyobozi, urahira umanitse akaboko, ugafata no ku Idarapo ry'Igihugu. Kugira ngo ugaragarize abaturage ko ibyo ugiye gukora uzabikora mu nyungu zabo ndetse n'iz'Igihugu atari mu nyungu zawe bwite.

Abadamu ntibahejwe mu guteza imbere igihugu cyabo niyo mpamvu bari mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi kuko bagaragaye ko nabo bashoboye bahabwa inshingano zitandukanye kandi bazikora neza.

Mpayimana Philippe ni umunyarwanda watanze kandidatire yiyamamariza umwanya wo kuba umukuru y'igihugu cy'u Rwanda. Gusa ntabwo byamuhiriye kuko yagize amajwi makeya.

Efuperi ni umuryango uharanira inyungu z'abanyarwanda n'abaturarwanda. Ni ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, rikaba rirangajwe imbere n'intore izirusha intambwe, ari we nyakubahwa Paul Kagame.

Amatora yabaye mu Gihugu cyacu, aho umukandida yiyamamazaga, akajya imbere y'abaturage, akavuga icyo azabagezaho, n'ibibazo bafite uko azabafasha kubikemura. Ni mu rwego FPR na yo yari ifite umukandida uyihagarariye.

Mu rwanda hari abacururiza ku ikoranabuhanga nko mu Rukari. Wabagana ugatuma ibyo ukeneye byose bakabikugezaho utiriwe uva aho uherereye guhaha wifashishije ikoranabuhanga na byo ni byiza biradufasha.

Efuperi umuryango w'abanyarwanda waharaniye kera kuzarurengera amaboko yacu azakorera u Rwanda kaze neza Efuperi irengerare u Rwanda ndetse n'abarugendamo bose.

Ni imitako ikorwa n'abanyabugeni, imanitse ku rukuta rw'umukara ubusanzwe ibi byifashishwa mu kubitaka mu mazu, yaba ayo mu ngo ndetse n'ahatangirwamo serivisi.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ariwe perezida nyakubawa Paul Kagame ari kumwe n'umufasha we Madam Jannet Kagame baba bagiye kuyobora inama cyangwa hari bikorwa runaka bitabiriye mu bindi bihugu.

Abasheshekanguhe na bo ntibacikanywe bamenye ibyiza by'umuryango wa efuperi inkotanyi bituma nabo bumva ko bagomba kuwushyigikira kugira ngo urusheho kubagezaho ibyiza nkibyo wabagejejeho.

Habaye igikorwa cy'amatora cyo gutoranya uwayobora igihugu cyacu, hiyamamaje abakandida batatu, harimo Paul Kagame, Habineza Frank na Mpayimana Philippe.

Mpayimana firipe ni umunyarwanda wiyamamaje ashaka kuyobora igihugu cy'u Rwanda, ku mwanya wa perezida. Ariko ntibyamuhiriye kuko yagize amajwi atamwemerera kuba yayobora.

Hari amatora yo guhitamo umukuru uyobora igihugu ishyaka girini pati ryari ihagarariwe n'umukandida wabo ari we Habineza Frank yagiye mu bice byinshi bitandukanye, agaragaza imigabo n'imigambi ye n'ibyo azageza ku abanyarwanda.

Mu matora yabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda yo kwitoranyiriza umuyobozi mwiza watuyobora, hari harimo abakandiza batatu, ndetse n'uyu witwa Habineza Frank yari yayitabiriye. Ariko ntiyabashije kugirirwa amahirwe yo gutorwa kuri uwo mwanya.

Mu Rwanda mu nzego z'ubuyobozi zitandukanye abagore nabo ntago bahejwewe ubu bahabwa inshingano yabo ndetse n'iziremereye mu rwego rw'igihugu kugira ngo nabo bakomeze gutanga umusanzu wabo mu iterambere.

Amatora akorerwa mu Rwanda hagamijwe gushaka abayobozi mu nzego zitandukanye akorwa mu mucyo, aho abayitabiriye batorera ahantu habugenewe kandi bagashyira amajwi yabo ahantu hamwe akabarwa ku mugaragaro.

Twagiramungu Pasiteri yabaye umuyobozi wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda aza gusimburwa na perezida Paul Kagame ariwe uyoboye ubungubu iki gihugu cy'u Rwanda.

Kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije, niba ugiye kugura ikinyabiziga cya moto, reba ikoresha amashanyarazi, bizatuma nawe umusanzu wawe ugaragara mu kubungabunga ibidukikije.

Abashoferi batwara abantu muburyo bwa rusange muri bisi nini, bagomba kwitonda bagakorana ubushishozi, kuko baba batwaye umubare w'abantu benshi, kandi bafitiye igihugu akamaro.

Motari nawe zirikana ko n'abanyamaguru bakeneye kugenda igihe ugeze ku nzira icamo abanyamaguru, reba neza ko ntawe uri kwambuka kugira ngo mudahuriramo hagati bikaba byakuviramo kubihanirwa.

Ushobora kuba ukeneye abagutwaza ibintu, hamagara zeru karindwi umunani, mirongo itanu na gatatu, makumyabiri n'umunani, karindwi karindwi gatatu, ubone akamoto kaza kagufasha kwimura ibintu ushaka kujyana.

Ubu abakarani nabo bashatse uburyo bazajya batwaramo imizigo bitabagoye. Aho kugira ngo bayikorere ku mutwe cyangwa se bashyire ku rutugu, ubu bafashe utwuma bashyiraho amapine bakajya bagenda bayisunika.

Niba ukora akazi ko gutwara imodoka ntoya zikora takisi, zagenewe aho zigomba guparika. Ni yo mpamvu ugomba kuba ari ho uparirika icyo kinyabiziga, kugira ngo utazahabwa ibihano bijyanye n'uko waparitse ahatabyemerewe.

Igihe ukoresha igare ukabona ufite umuzigo munini. Nibyiza ko utarigendaho ukaricunga kugira ngo ugere aho ugiye amahoro. Umuzigo munini wakuviramo kuguteza impanuka.

Mu mujyi wa kigali ndetse n'ahandi mu ntara, hari abakoresha ibinyabiziga bizwi nk'amagare; bitwa abanyonzi. Barashishikarizwa ko igihe bwije bagomba kuva mu mihanda kugirango batazajya bayigiriramo impanuka, cyane ko abenshi usanga ibinyabiziga batwara, nta muri bifite.

niba uri kugenda n'amaguru mu muhanda ucamo ibinyabiziga, igihe ugiye kwambukiranya umuhanda ibuka kureba ahabugenewe hambukirwa abanyamaguru kugirango ngo wirinde impanuka wahurira na yo mumuhanda.

Indi mihanda yitabwaho no guca inzira z'amazi, kugira ngo atazajya acamo akangiza umuhanda. Ni iyo mpamvu izo nzira nazo zigomba gukorwamwo isuku, kugira ngo zitazageza igihe zisiba amazi agasandara mu muhanda akawangiza.

Nujya gutega moto uzibuke kureba ibirango by'iyo moto, ndetse kugira ngo umumotari nagira ikibazo aguteza uzabone uko umukurikirana. Kandi hari n'abamotari bajya bahisha purake zabo, nabo ujye ureba yuko zigaragara neza.

Imodoka zizwi nka yego cabuzi uzihamagara aho uri ikahagusanga ikagutwara ikakugeza aho ushaka kujya mu gihe udakeneye gutega bisi ushaka kwihuta ngo ugere aho ujya ku gihe.

Mu Rwanda turagenda ndetse tukanakora ijoro n'amanywa kuko twashyiriweho amatara amurika ku mihanda kugira ngo buri muturage uhaca agende afite umutekano usesuye.

Mitsingi ni ikinyobwa gitunganyirizwa hano mu Rwanda kigakorwa n'uruganda rwa burarirwa(Bralirwa) rufite aho rukorera ku Gisenyi kandi rubigeza ku bakiriya baho hirya no hino mu gihugu.

U Rwanda rufite intego yo kongera umukamo n'ibikomoka ku matungo, niyo mpamvu amata bayakusanyiriza hamwe, bakayazana muri kigali kugira ngo agurishwe ameze neza yujuje ubuziranenge.

Imodoka nini za bisi zashyiriweho gutwara abantu bagenda mu buryo bwa rusange, mu rwego rwo kugabanya abatondaga imirongo bazitegereje, ubugubu byaroroshye kuko zibasha gutwara abantu benshi icyarimwe.

Hari imodoka zagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo n'intoya zizwi ku izina rya Twegerane, ndetse n'izindi nini za Bisi. Zitwara abantu benshi kandi icya rimwe bigatuma umuvundo ndetse n'abatinda kugera aho bagiye zigabanuka.

Ni umugabo wicaye imbere ya mudasobwa asa nk'aho ari gukoresha murandasi ku ruhande rwe hagaze abana bakiri batoya bisa nk'aho ari abanyeshuri baje gufata inguzanyo y’ibijyanye n'imyigire yabo.

Umuntu utwara ibinyabiziga igihe uri mu muhanda reba neza ko uri kugenda mu cyerekezo cyawe kugirango utaza gusatira ikindi cyerekezo ukaba wahura n'iyindi modoka bikarangira mugonganye.

Imodoka zabugenewe zitwara imizigo, igihe hari ibyo ufite ukeneye gupakiza ngo ubivane hamwe ubijyana ahandi, uzabona imodoka zizagufasha kandi zabugenewe, zikagutwarira ibyo ufite, zikabigeza aho ushaka.

Akazi waba ukora k'ubukarani ibuka gushaka ikizajya cyigufasha gutwarira imizigo myinshi icyarimwe bidasabye ko utwara umwe umwe ku mutwe bizagufasha gutwara myinshi kandi bikorohereze n'imvune wahuraga nazo.

Hari imihanda dufite ifite ibyerekezo bibiri. Iyo mihanda harimo iba ari nini igiye ifite imikono ibiri yo mu cyerekezo kimwe, ku buryo ibinyabiziga bibiri byaciyemo icyarimwe, kandi ntahagire ikibangamira ikindi.

Ushobora kuba ufite inzu wubatse yegereye umuhanda ikaba ihamaze igihe ari iya kera. Itabire gahunda yo kuvugurura wubaka inzu zigezweho zijyanye n'ikerekezo aho ngaho wayivugurura kugira ngo irusheho gusukura umugi.

Hari imodoka zagenewe gutwara imizigo cyangwa kwimura abantu. Kugira ngo ugere aho wimukiye ibintu byawe bitangiritse, cyangwa babitwaye ku mutwe, hakavamo no kugira ibyo ubu, hamagara imodoka yabugenewe ikwimure.

Imihanda ikoze neza cyane ibereye ijisho hari inzira abanyamaguru bagenewe gucamo ndetse hakaba n'aho ibinyabiziga byagenewe guca, n'undi mwanya utewemo ubusitani, hagiye harimo n'ibyapa ndetse n'amapoto y'umuriro.

Ugenda n'amaguru mu muhanda ujye uzirikana guca mu tuyira twagenewe abanyamaguru kandi ugende mu cyerekezo imodoka ituruka imbere yawe uyireba, kugira ngo niramuka itaye umuhanda nawe ube wabibonye atari uko waciye ahandi ngo igutuke inyuma utayirebye.

Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Mbere abantu bajyagà bapakira inka mu modoka kuburyo ziba zegeranye cyane ndetse zimwe ziri no hejuru y'izindi zikagera aho zigiye zimwe zavunitse, izindi zanapfuye, ariko ubu ngubu ntabwo bikemewe, ugomba gutwara inka zimeze neza, zikagera aho zigiye nta kibazo zagize,

Abamotari bagomba kuzirikana ko igihe umugenzi ateze afite umuzigo munini, kumutwarana na we bibangamira urugendo bikaba byatuma motari yakora n'impanuka. Tubyirinde dukumire icyaha kitaraba.

Hari bisi nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zikorera hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ubaye ukeneye kugira aho unyarukira nta mafaranga yo gutega moto ufite, uzabona bisi kandi na yo izakugeza aho ushaka kujya.

Ushobora kuba ugiye kwimuka, ukaza kugira impungenge ko hari igihe ibyo utwaye byaza kunyagirirwa mu nzira, hari utumoto twabugenewe tudahenda kandi dutwara ibintu byawe neza, tukabigeza aho ubijyanye bidahuye n'imvura cyangwa se n'izuba ryinshi.

Kugira ngo urusheho kongera umunezero w'abawe koresha statayimu uryoherwe na filime z'ibiganiro mpuzamahanga mu Kinyarwanda zigaragaraho amasaha makumyabiri n'ane.

Uri kugendera mu muhanda n'amaguru irinde kuvugira kuri telefoni, kuko hari igihe ushobora kuyirangaraho ugasanga ikinyabiziga, nacyo gitwawe n'uwarangaye kirakugonze bikakuviramo urupfu.

Nutwara ikinyabiziga ujye wibuka kugenda wigengesereye, kugirango utazangiza bimwe bigaragara mu mihanda, harimo ubusitani bwatewe bugiye burimo ibiti bizwi nk'imikindo, kuko iyo ibyangije urabihanirwa.

Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Rubangura hari igicupa kinini cyanditseho koka kola, kiranga aho hantu. Haparika n'abamotari kandi, mu mujyi wa Kigali hagiye hashyirwaho ahantu moto zigiye ziparika.

Mu Rwanda dufite sitade nyinshi zitandukanye zakira imikino niyo mpamvu twagiriwe icyizere cyo kwakira n'imikino mpuzamahanga, tugomba rero kuzibungabunga kugira ngo n'ibikombe bitarakinirwa inaha iwacu nabyo bizaza.

Hirya no hino hagiye hari ibibuga byinshi bya basiketi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ibuka ko siporo ari ingenzi nawe ushaka umwanya ujye ku kibuga widagadure kandi bizagufasha kudasaza imburagihe.

Aha ngaha hari amazu menshi cyane yubatse neza kandi mu buryo butandukanye amwe afite amabati afite ibara ry'umutuku andi afite ibara ry'umukara n'amazu yasizwe amarangi atandukanye kandi hari n'ibiti bikikije ayo mazu byiza cyane bituma abatuyemo babasha kubona umuyaga.

Werekeje mumajyepfo na ho urahasanga ibyapa bikurangira imihanda aho igiye ikata yerekeza. Ntago ari mumujyi wa Kigali hari ibyapa biri kumuhanda biyobora abantu, hose mugihugu bigiye bihari.

Ku mihanda hagiye hashyirwaho kamera zifata abantu barengeje umuvuduko bagombaga kugenderaho. Hari n'ibyapa byahashyizwe bigaragaza ko aho ugiye kugera, iyo kamera ihari.

Waba uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga? hari ibyapa bigaragaza yuko uwo muhanda uri gukorwa cyangwa se uri gusanwa gabanya umuvuduko ugende ku kigero gitoya kugira ngo utaza kugira ibyo wangiza.

Igihe ugeze ahari icyapa cyanditseho sirowu, ugomba kugabanya umuvuduko wagenderagaho, kugira ngo utagira ibyo uhungabanya, kiba kikugaragariza yuko ugomba kugenda gacye.

Utwaye ikinyabiziga ukagera ku cyapa kikugaragariza ko ugomba kugendera k' umuvuduko wa mirongo itandatu ntago uba ugomba kuharenza kuko hashyizweho kamera zipima ko warengeje umuvuduko.

Kugira ngo hatazagira ugaragaza urwitwazo hari ibyapa byamanitswe ku mihanda bigaragaza ko ugiye kugera ahari kamera ukagendera ku muvuduko wabugenwe iyo uwurengeje uragufata kandi ugacibwa amande.

Niba uri kugenda mu muhanda ukagera ahazwi ibyuma byagenewe gutambutsa ibinyabiziga ndetse n'abantu, mu rwego rwo kwirinda umuvunda ndetse n'impanuka, rindira urebe yuko hajemo ikikwemerera gutambuka wowe ugenda n'amaguru.

Ntago bikigoye iyo utekereje gufata urugendo uri butege imodoka, kuko hirya no hino mu mujyi wa Kigali hari imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange buri kerekezo cyose gifite agency ihakorera.

Aha hari ibigo by'amashuri bagiye bahashyira ibyapa biharanga. Igihe utwaye ikinyabiziga, gerageza nuhagera witwararike kuko uba wahawe amabwiriza y'uko haca abantu benshi kandi bakiri batoya bakenewe kurebererwa.

Mu mihanda yagiye ikorwa, hagiye hashyirwaho inzira abagenda n'amaguru bagomba kwambukiramo. Niba ugiye kwambuka, reba neza ko ugiye kwambukira ahabugenewe, kugira ngo utaza guhurirana n'ibindi binyabiziga, bikakugonga.

Ubaka inzu yawe igezweho kandi uzirikane ko igihe ugiye kubaka, ugomba gushaka inzego zibishinzwe zikakubwira inyubako ijyanye n'aho ugiye kuyishinga kugira ngo bitazakuviramo kuyisenya.

Buri wese yitabire gutera ubusitani ahantu atuye, bituma umuntu ahumeka umwuka mwiza utangwa na bya biti, bikamurinda kuba yarwara indwara zandurira mu buhumekero bitewe n'umwuka mubi yahumetse.

Kimironko iherereye mu karere ka Gasabo intara y'umugi wa Kigali. Ukeneye kuhatura ni heza haratuje kandi hateye n'ubusitani buzana amahumbezi bigatuma uhumeka umwuka mwiza.

I Kibagabaga mu umujyi wa Kigali ubu hagaragara inyubako zigeretse kandi zikomeye, nawe niba ukeneye kwiyubakira inzu hariyo n'ibibanza bitubatswe wagenda nawe ukahashyira iyawe.

Mu mujyi wa Kigali rwagati, hari ahazwi nko ku Mpala, hagira resitora ndetse na bare; urahasanga ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bitunganyijwe ku buryo bwizewe kandi bifite isuku ihagije.

Niba ufite konte muri banke y'abaturage ya Kigali ntago ari ngombwa ngo ujye ku kicaro gikuru igihe ukeneye serivisi zabo batanga nkaha ngaha mu giporoso zirahari, hari agashami kabo wakegera bakagufasha.

Ukeneye gukatisha urufunguzo wagana mu Giporoso i Remera, ugahamagara no kuri zeru karindwi, umunani umunani, mirongo ine na kabiri, mirongo itatu na rimwe, cumi na karindwi.

Ahari imihanda yagiye isaswaho amabuye kugira ngo nayo yifashishwe yunganire iyirimo kaburimbo. Hari n'ibyapa biba biri ku muhanda bigaragaza nimero y'umuhanda, bigatuma uhanyuze amenya aho aherereye.

Umujyi wa kigali Akarere ka Gasabo umurenge wa Ndera, haracyari imyanya irimo ubusa itubatsemo ukeneye ikibanza cyo kwiyubakira inzu yawe wahagera nawe ukabona uko wubaka iyawe.

Niba wubatse inzu nziza ibuka gusiga umwanya wo guteramo ibiti, bizajya bizana umwuka mwiza mu rugo. Kandi igihe wubatse inzu igerereke, urebe ko utayubatse munsi y'insinga zikwirakwiza amashanyarazi.

Umuntu uyobora iwawe mu rugo kandi uzi ko wasizeho igipangu, mu rwego rwo kwirinda abajura basimbuka baje kwiba washyiraho insinga ziba zesitayemo n'umuriro kugira ngo batazabona aho baca.

Niwubaka inzu y'ubucuruzi uzibuke gusiga umwanya w'aho ibinyabiziga byaparika kuko iyo hari abakoreramo bagakenera gukoresha parikingi birabagora bagashaka ahandi bagomba no kwishyura.

Inkengero z'imihanda hagiye hatewe ibiti byongerera umwuka mwiza abahaturiye cyangwa se abahaciye, ni ngombwa y'uko natwe aho dutuye tuhatera ibiti byongera umwuka mwiza duhumeka.

Turusheho kubungabunga aho dutuye kandi dushyiraho n'ibiti byongera umwuka mwiza, dusakaza amabati agendanye n'igihe, igihe inzu yawe ishaje wibuke kuyivugurura kugira ngo izarambe.

Hari igihe uba uri ku muhanda utegereje imodoka cyangwa uri kuganira n'abantu muhahuriye; Gerageza uhagarare witaruye umuhanda, kugirango ngo nihagira uhaca ari gukata ikinyabiziga, bitakuviramo kugongwa wasatiriye umuhanda.

Hari inyubako nziza ziherereye mu murenge wa Kanombe, mu Kajagari ka kabiri. Aho ni mu mugi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro. Ukeneye iyo nyubako, ni ho wayisanga.

Nyuma y'ibyabereye mu gihugu cyacu abanyarwanda bagahera kuri zeru, ubu hirya no hino hari amazu meza, hari ibikorwa byinshi bitandukanye cyane nka Kimironko, ahari hari ibihuru hari amazu meza agezweho kandi akomeye ajyanye n'igihe.

Igihe uri kugenda mu muhanda n'ubwo haba nta binyabiziga uri kubona bicicikana, n'uba ugiye kuwambukiranya jya ubanza urebe hepfo no haruguru hato utazambuka ugahurirana n'ikinyabiziga kije kihuta.

Kurushaho kugaragara igihugu cyacu neza, hagiye hongerwa mo imihanda ikoze neza, irimo kaburimbo mu duce dutandukanye tw'igihugu, no mu makaritsiye agiye atuyemo abantu atari imihanda nyabagendwa gusa.

Utwapa turanga imihanda ndetse na nimero yayo, hari n'utundi tuba dusize amabara agize indarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ari yo umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu.

Hari ahagiwe hashyirwaho inzira abanyamaguru bagomba gucamo bambukiranya umuhanda. Byarakemutse kuko ubungubu ibinyabiziga birahagarara ugenda n'amaguru nawe agahabwa uburenganzira bwo gutambuka.

Mu rwego rwo korohereza abantu bava mu gace kamwe bajya mu kandi batwara ibinyabiziga, hari imihanda yashyizweho igerekeranye ituma abantu babona uko bacaho bitabasabye kumanuka ngo bace hasi.

Twishimire ibikorwa remezo bigaragara ku mihanda mugihugu cyacu cy'u Rwanda. Igihe ufashe urugendo ari ninjoro, genda nta mpungenge kuko hari amatara yagiye ashyirwa kumihanda amurikira abahaca.

Hari ibyapa bigaragaza ko aha hantu ku mihanda hatemerewe guparikwa ibinyabiziga. Uramenye rero utazakihaparika, ugasanga uciwe amande y'uko warenze ku mategeko n'amabwiriza agenga imihanda.

Imikindo iteye mu busitani buri mu mujyi wa Kgali ndetse no mu yindi mihanda igenda ihuza uturere, igomba kwitabwaho; kandi twibukiranye ko iyo uwugonze, wishyura amafaranga atari makeya.

Wowe muntu ugenda mu muhanda n'amaguru igihe ugiye guhagarara reba aho uhagarara witaruye umuhanda kugirango hatazagira ikinyabiziga cyiza cyayobye ugasanga kirakugonze kandi ari wowe ubyiteye.

Mu mihanda itandukanye hagiye hashyirwamo inzira abanyamaguru bagomba kwambukiramo. Iyo bari kwambuka ibinyabiziga birahagarara, abagenda n'amaguru bakabanza bakambuka.

Utuzu twagiye dushyirwa ku mihanda kugira ngo abaje gutega ibinyabiziga babone aho bugama izuba ndetse bibaye ngombwa ko n'imvura igwa babone aho bayikinga, ba ariho uhagarara urindire ikinyabiziga ntutegere ahatarabugenewe.

Kugira ngo hatabaho kubangamirana kw'ibinyabiziga, aho abagenzi bategera hagiye hashyirwa ibyapa, ndetse n'igihe imvura iguye bashyiriyeho utuzu yo kugamamo izuba, cyangwa se imvura.

Imihanda myinshi yagiye ishyirwamo kaburimbo irasukuye kandi igiye iteweho ibiti ku nkengero zayo bituma uhaciye yumva akayaga gahuha kandi akagenda abona n'aho yikinga izuba.

Imihanda yo muri karitsie y'ibitaka na yo ibikwiye kwitabwaho kuko hari abayangiza bayimenamo amazi, nabyo si byizakuko irakoreshwa kandi ifasha abahaca bose bakagera aho bagiye.

Kicukiro santere, mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Kicukiro. Hari ikiraro cyiza cyakozwe n'abashinwa, kiriho n'amatara amurikira abantu ndetse n'ibinyabiziga bihaca.

Igihe cyose ugenda ku muhanda, uzibuke gusigasira isuku uhabona; wirinda kujugunya uducupa tw'amazi cyangwa se iyindi myanda iyo ariyo yose, ahatarabugenewe. Kugirango hakomeze gusa neza.

Gutwara ikinyabiziga ukagera muri feruje, ugasanga hemerewe gutambuka abo mu yindi mikono cyangwa abanyamaguru hagarara kugira ngo babanze batambuke cyangwa ibyo binyabiziga bindi bibanze bigende bitavirwamo guhanwa ko wakoje.

Imodoka nini zitwara ibicuruzwa bizivanye mu bihugu byo hanze bizizanye mu rwanda. Hari n'izibipakira zibivanye mu rwanda zikabijyana mu bihugu byo hanze. Mu rwego rwo kunoza imihahirane ni ngombwa y'uko igihe baje bagana igihugu cyacu bafatwa neza bakitabwaho.